Ishusho iragaragaza ikigo cya radiyanti cy'ubwishingizi, gitanga mesaje igira iti "yego nta kindi bisaba kugira nawe ugere ku mushinga w'inzozi zawe ukoresha telefone yawe igendanwa, kanda magana atanu mirongo itatu na rimwe, wizigamire maze wungukirwe iterambere."

Iyi shusho iragaragaza neza imodoka yo mu bwoko bwa toyota levini hayiburidi, bibiri na cumi n'umunani; iri ku isoko igurishwa mu cyamunara ndetse ikaba ihagaze miriyoni cumi n'eshatu.

Iyi shusho iragaragaza imodoka yo mu bwoko bwa toyota kororao korosi hiybrid ndetse y'imodoka ikaba iri ku isoko ika ihagaze igiciro cya miliyoni mirongo itatu na zirindwi.

Iyi ngiyi ni fagitire y'imisoro igaragaza neza umusoro ugomba kwishyura, umusoro wishyuye, n'ibihano bifatirwa utatanze umusoro neza, ikaba itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro rwanda reveni.

Iyi ni imbonerahamwe igaragaza neza ihindagurika ry'agaciro k'ifaranga ry'idorari rikoreshwa muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika, ugereranyije n'andi mafaranga nk'amayero, ama British pound sterling ndetse n'ayandi.

Iyi shusho iragaragaza neza serivisi zitangwa n'ikigo cya I&M, ndetse kinamamaza mu maserivisi yacyo gitanga.

Iyi ni inzu ikorerwamo ubucuruzi izwi nka Simba, iherereye sonatube ndetse ikaba itanga serivisi zigiye zitandukanye z'ubucuruzi, itanga ibicuruzwa bimwe n'ibindi.